Ikikoni cyiza kimeze neza gisa neza, cyubakishijwe amakaro. Ni cyiza cyane, harimo abatetsi bateka ibiryo by'abakiriya. Mucoma afashe inyama yamaze gukorera komande mo abakiriya, zimeze neza ziri ku mushito.

Inkoko nziza imeze neza yokejwe neza, inkoko ni nziza iyo yokejwe iraryoha, iyo bayokeje ku cyokezo kimeze neza bakayisiga ibirungo bimeze neza, iba iryoshye cyane.

Akabari keza kameze neza, kubabatswe neza karimo amatara y'icyatsi, kajemo umuhanzi uri kuririmbira abantu baje muri ako kabari. Urujya n'uruza rw'abantu baje muri ako kabari bari gufotora ibintu bimeze neza.

Ifi nziza, zimeze neza, zisa neza, zokejwe neza. Ifi yokeje iraryoha, kubera ukuntu baba bayokeje neza ,bayisize n'ibirungo byiza bigiye bitandukanye. Ifi ntabwo bayotsa ku mbabura hejuru, haba hari akantu kabugenewe bayishyiramo kugira ngo ishye imeze neza idashiririye.

Bare nziza imeze neza isa neza iteye amarangi meza ifite amatara meza ibarizwamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ifite n'intebe nziza abakiriya baje bayigana bicaraho.

Ku kabari keza kameze neza, kubatswe neza, gasize amarangi meza, harimo amatara y'amabara yose. Gahuriramo abantu bagiye batandukanye: abagabo, abagore, abasore n'inkumi. Hari abicaye babonye icyo kunywa, hari n'abakiri kuza kugira ngo babahe icyo kunywa.

Akabari keza， kameze neza， gasa neza， kubatse neza， gafite n'amatara y'ubururu n'ay’umweru， gafitemo inzoga zigiye zitandukanye， zitondetse ku murongo umwe. Umucuruzi uzicuruza aba yishimye， kubera ukuntu aba ari kubona inzoga ze zimeze neza， n'uburyo akabari ke， kagenda gatera imbere buri munsi.

Inzu nziza zimeze neza, zisa neza ,ziteye amarangi meza zituye ku muhanda, zicururizwamo ibintu bigiye bitandukanye. Hari n'ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa muri izo nzu, nka eyateri zirahari ,ukeneye na tekino araza akazishakira hano.

Inzu nziza zimeze neza zisize amarangi, zifite ibyapa bigaragaza ibintu bicururizwa muri izo nzu, indabyo nziza parikingi nziza, motari atwaye umugenzi amujyana kuri iyo nzu ibintu byose bimeze neza.

Inzu nziza imeze neza, yubatswe neza, iteye amarangi meza, uri ku muhanda umeze neza, urujya n'uruza rw'abantu baciye kuri uwo muhanda bajya guhahira muri iyo nzu, hari n'icyapa kigaragazaga ibintu bikorerwamo, aba MTN ukeneye serivisi za MTN ni hano aza kuzishakira.

Iduka ryiza, rimeze neza, risa neza, riteye amarangi meza, riri mu mudugudu hagati, ni ryiza cyane, rifite n'icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwa muri ryo, umukiriya ushaka icyo kurya n'icyo kunywa ni hano abisanga.

Inzu nziza, zimeze neza, zisize amarangi, zubatswe neza, zifite ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa muri izo nzu, abazunguzayi bazinyura iruhande kugira ngo abacuruzi bacuruza muri izo nzu ibintu badacuruza babazaniye babibagurire.

Isoko ryiza rimeze neza, risa neza ryubatswe neza riteye amarangi meza ricururizwamo imbuto z'igiye zitandukanye bacuruza amaronji imyembe ibipapayi bagacuruza n'inanasi buri mukiriya uje abagana atewe n'icyo ashaka arakihasangaga.

Inzu nziza imeze neza yubatswe neza, ni ndende cyane irageretse gatatu ni nziza cyane, iteye amarangi meza hari n'ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa, muri iyi miryango yayo ituye ku muhanda, ukeneye serivisi zikorerwa ahangaha iyo aje arazihabona mu gihe gito.

Ubucuruzi bw'amafaranga burakataje, aho abagore batakibura icyo gukora basigaye bajya muri gare cyangwa ahandi hantu hagiye hatandukanye ku muhanda, bagashora amafaranga yabo. Bakicara, ukeneye ko bamubikira bakamubikira, ukeneye ko bamubikurira bakamubikurira. Batanga serivise nziza. Bacuruza n'ubunyobwa na bombo ku bantu bagiye mu modoka, cyangwa babushaka na bo bara...

kuri aga amazu, hari icyapa kitugaragariza ko ushobora kuhasanga ibijanye n'ibyo kunywa nk'inzoga za amasteri

Amazu ameze neza yubatse agerekeranyije bijyanye n'iterambere rigezweho. Ibyapa biri kuri ayo mazu bigaragaza ibikorerwa muri ayo mazu. Ibiti ku muhanda ,umuhanda ugezweho bijyanye n'iterambere rigezweho.

Iduka ryiza rimeze neza， ripakiye neza， ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye， ribamo imiceri，amakawunga， amasafuriya， ibikosi，buri mukiriya n’icyo ashaka araza akakibona， bacuruza n'amavuta yo kwisiga， n'amaji yo kunywa.

Inzu nziza, zimeze neza, harimo ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa muri izo nzu, harimo amaterefone, amafirime, amaketo n'ibindi bigiye bitandukanye. Abakiriya bagiye batandukanye baza gushakira serivisi hano hantu bitewe na buri mukiriya n'ikintu ashaka.

Inzu nziza, imeze neza, yubatswe neza, iteye amarangi meza, hari n'icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwamo, imodoka nziza ziparitse impande y'iyi nzu zimeze neza, abakiriya baje muri iyi nzu baparikaga imodoka zabo ku muhanda, ubundi bakinjiramo bakaja gufata icyo kurya n'icyo kunywa. Imodoka zabo bakazisiga zifite umutekano.

Iduka bacururizaga mo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, harimo amatelefone, cagi na poshete bigiye bitandukanye.

Inzu nziza imeze neza, igeretse, isa neza, isize amarangi meza, icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, n'abantu batandukanye, abamotari baparika ahongaho baje gutwara abagenzi bavuye muri guhahira muri iyo nzu. Ifite parikingi nziza.

Iduka ryiza rimeze neza, ricururizwamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, nka ji za sana z'abana, na ji z'abakuru, za novida, habamo n'amazi ya jibu yo kunywa, turabigura kubera ukuntu biba bifite ubuziranenge, amazi ya jibu iyo tuyajyanye mu rugo turayanywa kubera ko aba asukuye.

Ibiti byiza bimeze neza byakuze neza, hari n'icyapa kimeze neza gisiza amarangi iry'umweru n'iry'umutuku n'irya shokora, cyanditseho amagambo y'amusteri bivuze ko aha hantu hacuruza inzoga za amusteri.

Botike nziza imeze neza icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye habamo :inzoga za waragi ,hakabamo amandazi ,hakabamo n'amakeke ,umuntu ushaka keke arayibona ,ushaka n'irindazi akaribona.

Uyu muhungu acuruzaga ibintu bitandukanye mwiduka ,harimo intebe, ibiringiti, ibitambaro ,ibikapu, n'ingofero.

Inzu nziza imeze neza, iteye amarangi icururizwamo ibyo kurya bitandukanye .Abamotari n'abandi bantu bagiye batandukanye iyo bashonje, baza kuriramo bagasubira mu kazi kabo bameze neza, kubera ukuntu babakiriye neza.

Iduka ryiza，rimeze neza，ricururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye. Ni ryiza rifite ibitoki，intoryi，karoti，ibitunguru， n'inyanya，umuceri. Abantu baje kurihahiramo nta kintu bahaburira kubera ko byose baba babifite.

Inzu nziza imeze neza yubatswe neza, isize amarangi meza hari n'indabyo nziza, ku ruhande hakaba n'ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa muri iyi nzu, abantu bayikoreramo bahagaze ku muhanda bari kuganira, ifite na parikingi iparikwamo imodoka zabantu baje bayigana.

Iduka ricuruza amasaha ,n'impeta ,n'amashnete ni ryiza rimeze neza, ribamo: amasaha n'amashanete bimeze neza. Iyo umucuruzi ubicuruza yabonye abakiriya ,aba yishimye kubera ko aba abonye amafaranga yo gutunga umuryango we, n'ayo kuzongera kuranguza iyindi mari.

Insina nziza zimeze neza, ibiti byiza bimeze neza, igipangu kiza kimeze neza ,indabyo nziza zimeze neza, hari n'icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwa muri iki gipangu, hari n'umuhanda uparikwamo ibinyabiziga. Abantu baje kugura ibintu bigiye bitandukanye hano harimo, insina cyangwa ibiti baparikamo n'ibinyabiziga byabo.

Iduka ryiza rimeze neza, risa neza, riteye amarangi meza ku bikuta no ku nzugi, ni ryiza cyane ku bayicururizamo, bacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, hari n'icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwaga muri buri muryango, hari n'umuhanda mwiza unyuramo abagenzi, hari n'abakiriya baje guhaha biraborohera kuhagera.

Butike nziza imeze neza isa neza icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, habamo amakara, imineke, n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye. umugore uyicururizamo ari gukubura kugira ngo abakiriya nibaza binjire ahantu hasa neza.

Inzu nziza imeze neza yubatswe neza. Ni nziza iteye amarangi meza, iri mu gipangu cyiza cyubatswe neza gifite n'amadirishya. Imbere yaho hari umuhanda unyuraho abantu bagiye batandukanye, hari n'icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwa muri iki gipangu.

Inzu nziza, imeze neza, yubatswe neza, isa neza, icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, hari n'ibyapa bigaragaza ibikorwa bicururizwa muri iyi nzu, umuntu uje abagana, akeneye serivisi zigendanye n'aya magambo yanditswe kuri ibi byapa, barayimuha akagenda yishimye.

Butike nziza, imeze neza, ikorerwamo inkweto, icururizwamo n'izindi nkweto zakozwe n'ukeneye gukoresha inkweto baramukorera neza, ikorerwamo n'intebe zimeze neza. Umuntu wifuza gukoresha intebe rero baramukorera, n'uwifuza gukoresha inkweto bakamukorera.

Inzu nziza imeze neza iteye amarangi meza isa neza umucuruzi ucururiza muri iyo nzu aba ahagaze hanze ategereje abakiriya baza guhahira muri iyo nzu, umuhanda mwiza umeze neza ugendamo abamotari batwara abagenzi bari kuwugendamo.

Iyi nzu ni iy'abaturage bahingaga bashakiraga mo imbuto n'inyongeramusaruro zo guhinga ahantu hatandukanye, mu gihugu cyacu.

Iduka ricururizwamo imyenda n'inkweto, amapantaro n'amashati n'amakoti byiza rimeze neza, rigira abakiriya, iyo abakiriya baje guhaha, abacuruzi babicuruza baba bishimye, bakabona amafaranga yo kujya kuranguza iyindi mari.

Umuryango umeze neza uteye n'amarangi ufite ibyapa bigaragaza ibi bikorwa bikorerwa muri iyo nzu, hatangirwa serivisi zitandukanye ushaka mituweli arayishyura, ushaka kureba uko ubutaka bwe buhagaze arabyishyura, umutekano, ushaka kwishyura amazi n'umuriro byose abibonera hano kuri iyi nzu nta kibazo.

Inzu nziza imeze neza ifite n'amakaro, icururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye. Harimo n'imigati ifite n'akabati bashyiramo iyo migati yabo iyo bamaze kuyikora, kugira ngo abakiriya baza kuyigura, bayigure isa neza itagiyeho umwanda.

Iduka ry'ibikoresho by'amagare, abantu babicuruza baba bafite amafaranga kubera ko abaturage benshi baba bakeneye kugura igikoresho cy'igare, gituma bagera ku iterambere ryabo vuba kandi byihuse, kikanabatwarira imizigo igiye itandukanye bitabagoye.

Iduka ricururizwamo inzoga za burarirwa, rigomba kuba rifite ibyapa bigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo. Bakaba bafite inzoga zose zigiye zitandukanye, n'ibikoresho bizajya bifasha abakiriya kugeza ibyo baranguye aho ngaho iwabo bitabaruhije.

Uyu muryango utangirwamo serivisi z'amafaranga, ku bantu bagiye batandukanye. Baje gufatamo amafaranga bohererejwe n'abavandimwe babo, cyangwa inshuti zabo, ziba mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze.

Iduka ryiza, rimeze neza, risa neza, ryubatswe neza, rifite umuryango mwiza, usize irangi ryiza, hari n'icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwa muri iyi nzu, ducuruza amaji yo kunywa, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Iduka ryiza rimeze neza ryubatswe neza ricururizwamo ibyo kurya, rifite icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo harimo: inzoga ,fanta ,n'ibyo kurya ,buri mukiriya uje hano icyo ashaka cyose arakibona.

Inzu nziza imeze neza icurizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa harimo n'amandazi, n'inzoga. Afite na firigo ijyamo inzoga zishyushye cyangwa izikonje bitewe na buri mukiriya n'icyifuzo cye. Ukeneye inkoje arayibona, n' ukeneye ishyushye arayibona.

Inzu nziza imeze neza isa neza icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye hari aho bacuruza icyayi hicaye umukobwa ubicuruza, iruhande hari umukobwa ucuruza utuntu tugiye dutandukanye, hirya k'uwundi muryango hari icyapa kigaragazako muri uwo muryango hacururizwamo imyenda y'abageni.

Butike nziza, imeze neza, isa neza, yubatswe neza ku muhanda, ni nziza, ifatanye n'igipangu cyiza, kimeze neza. Urujya n'uruza rw'abantu banyura kuri uyu muhanda iyo batambutse bakeneye icyo kurya ako kanya bakigurira muri butike, n'abaturage bo muri uyu mudugudu bakeneye ibyo kurya babisanga kuri iyi butike.

Iduka ryiza， rimeze neza， risa neza， ryubatswe neza， ryegereye ku muhanda，ricuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye， urujya n'uruza rw'abantu banyura kuri uyu muhanda，baramuhahira. Uyu mucuruzi ucuruza muri iri duka， akabona amafaranga yo kujya kuranguza iyindi mari，kugira ngo n'ubutaha ni baza kumuhahira， bazasange abifite.

Iduka ryiza rimeze neza risa neza, ryubatswe neza risize amarangi meza ameze neza, ryubatswe mu buryo bwa kijyambere hari n'ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa muri iri duka.

Iduka ryiza rimeze neza rifite sima y'amakaro ni ryiza cyane, hari amagambo agaragaza ibikorwa bicururizwamo hari n'ibidomora by'amarangi ukeneye irangi aza kurigurira hano, tukamugurisha ku giciro cyiza.

Inzu nziza imeze neza igiti cyiza kimeze neza, hari n'inzu zicaramo abakiriya, n'icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwa muri iyi nzu igipangu cy'imigano, umuntu wese ukeneye icyo kurya n'icyo kunywa yagisanga hano muri nostresibare.

Inzu nziza imeze neza yubatse neza inzu ni nziza cyane ifite amabati meza cyane nigipangu cyiza kimeze neza gisize amarangi yubakishije amatafari meza ahiye icyo gipangu kirimo jaride nziza zimeze neza.

Iduka ryiza rimeze neza ricururizwamo ibitenge n'ibiringiti byo kwiyorosa ni ryiza, risa neza rimeze neza. Abacuruzi bacururizamo baba bicaye bategereje abakiriya, babonye abakiriya, bishimye kubera ko bacuruje uwo munsi.

Amaduka ameze neza asa neza yegereye ku muhanda, ateye amarangi meza afiteho n'amakaro hejuru asa neza ameze neza cyane, hari n'umuhungu uri kuhagenda afite n'ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa muri yo. Ukeneye kawunga arayihasanga n'ushaka ibirayi n'amakara akabihasanga.

Icyapa kigaragaza ahantu abantu bajya, bagiye kunywera ibinyobwa bitandukanye no kurira ibiribwa bitandukanye, bibatungira ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Iduka ryiza rimeze neza , ryubatswe neza, risize amarangi meza, rimeze neza , ricururizwamo amakara , ibitunguru na bodaboda . Umukiriya ukeneye amakara usanga hano kuri iri duka rifite umuhanda mwiza uparikamo amagare atwara ayo makara, cyangwa imodoka zizanaga amakara.

Iduka ryiza rimeze neza, rifite n'amakaro hasi ni ryiza cyane. Turicururizamo amabati. Amabati yacu twayubakiye akayetajeri ko kuyarambikamo kugira ngo abe afite umutekano uhagije. Ducuruza n'imisumari. Umukiriya iyo tumugurishije amabati, tumugurisha n'imisumari yo kuzayasakaza.

Inzu nziza zimeze neza, zisa neza, zubatswe neza ,hatuye ku umuhanda. Harimo icyapa kigaragazaga ibikorwa bikorerwa muri izi nzu. Igipangu kiza kimeze neza, giteye amarangi.

Imiringa myiza, imikufi myiza, impeta nziza, udushenete twiza, udusaro twiza, abantu babicuruza babona amafaranga, kubera ko biba bikunzwe cyane n'abantu bagiye batandukanye.

Iyi nzu icururizwagaho ibintu bigiye bitandukanye harimo: imyenda z'abageni, inkweto, no kuyogosheramo.

Iduka ryiza, rimeze neza, risa neza, ryubatswe neza, riteye amarangi meza ku bikuta no ku nzugi, ni ryiza, rifite n'icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwamo imbere; bacuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Inzu nziza zimeze neza, zubatswe neza, zisa neza, ziteye amarangi meza, zubatswe mu buryo bwa kijyambere, ni nziza cyane. Izigeretse kane ni nziza, abantu bazikoreramo bashyiraho ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa mu miryango yazo.

Inzu nziza imeze neza isa neza, iteye amarangi meza, ifite amakaro hasi n'imbuga hanze. Ni nziza cyane ifite n'byapa bigaragaza ibikorwa bikorerwamo, nka Banke ni Banke nziza umuntu ushaka kubitsa no kubikuza, no kwishyurira umunyeshuri aza kuhishyurira bakamuha serivise nziza.

Iduka ryiza, rimeze neza, ryubatswe neza, risa neza, rifite hejuru icyapa kigaragaza ibikorwa bicururizwa muri iryo duka, abakiriya bari kurijyamo, umudaso uhagaze ku ruhande, umugore ugiye gutega igare, abanyonzi baparitse imbere y'iri duka.

Iduka ryiza rimeze neza, ridoderarwamo imyenda igiye itandukanye. Ricuruza n'ibitenge by'abagore, babicuruza iyo babonye abakiriya, baba bishimye babonye amafaranga yo gukemura ibibazo byabo. Hari na korudoniye udoda inkweto z'abantu bagiye batandukanye, batuye muri ako gace.

Inzu nziza imeze neza isa neza iteye amarangi meza, imodoka nziza iparitse iruhande rw'iyo nzu ikibuga cyiza indabyo nziza parikingi nziza, igipangu cyiza hari n'icyuma ku muryango umusekirite azamura kugira ngo imodoka yinjiremo, n'umuntu uje kubasura akabanza yakizamura akabona kwinji.....

Hoteri nziza imeze neza, isa neza, ni nziza cyane, ifite ikibuga cyiza, indabyo nziza, iri ku muhanda, hameze neza, yakira abantu bagiye batandukanye baje bayigana; ari abanyarwanda n'abazungu baza kwiyakiriramo bakabaha ibyo bakeneye mu gihe gito.

Hoteri nziza imeze neza yubatswe neza. Yubatse ahantu heza ifite jaride nziza. Imeze neza, inyuma yayo hari ishyamba ryiza ritanga amahumbezi kuba bakiriya baje bayigana.

Ubu busitani ni bwiza cyane, bubereye kuba abantu babukoreramo ubukwe, bakanabwifotorezamo cyangwa bakabwicaramo bari gufata umuyaga.

Amazu ameze neza, afite igipangu cyubakishije amatafari ameze neza, ifite urugi rwubakishije ibyuma, icyapa kigaragaza ibikorerwa muri ayo mazu, aho abantu baturutse impande zose zitandukanye baza kuharira, abandi bakaza kuharara no kuhanywera.

Abagabo badoda imyenda iyo bamaze kudodera abakiriya babo, babaterera ipasi kugira ngo imyenda badodeye umukiriya ikomeze kuba myiza irambuke, umukiriya naza kuyifata ayijyane imeze neza.

Isoko ryiza rimeze neza, ryubatswe neza, riri ahantu heza, abacuruzi baricururizamo baba bafite buri mucuruzi igisima cye atandikaho imari ye, abakiriya baje guhaha barabagurisha neza.

Amaduka meza ameze neza, acururizwamo imyenda yo kwambara igiye itandukanye, baranahadodera, ukeneye kudodesha arahadodesha, uguze umwenda akabona yawishimiye, ariko utamukwiye neza, kuwugabanyisha warawumugabanyiriza, isoko ni ryiza rimeze neza, umukiriya ushaka umwenda wose araza akawusanga.

Iki cumba gicururizwagamo ibintu bijanye n'imigati ,harimo amakeke agi yatandukanyekanye ,imigati na capati.

Isoko ryiza rimeze neza, rifite ikibuga cyiza gicururizwamo n'abacuruzi bagiye batandukanye, bacuruza ibintu bitandukanye hari abacuruza amaduka, bacuruza ibyo kurya, n'abacuruza imiti.

Jii nziza ,zimeze neza, zisa neza, ji nziza cyane ku bantu bose hari izo dukora mu mapome, hari izo dukora mu matunda, bitewe na buri mukiriya na ji yifuza turayimuha ku giciro cyiza kandi kimunogeye.

Isoko ryiza rimeze neza risa neza ricururizwamo ibyo kwambara bigiye bitandukanye, hari abacuruza imyenda y'abagore y'imbere n'imyenda yo kurarana, n'abacuruza amashuka, n'amakuvureri n'imisego yo kwiseguza n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Isoko ryiza rimeze neza ricururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye aho abagore baricururizamo, harimo abacuruza inyanya n'intoryi, hakabamo n'abacuruza beterave ku giciro cyiza.

Ibijumba byiza bimeze neza, bisa neza, byeze neza, ku kubera byabonye imvura ihagije n'ifumbire ihagije, dufite ubwoko bubiri bw'ibijumba hari iby'umweru bita nyirawadada, hakaba n'iby'umutuku umukiriya agura ku byo ashaka.

Iduka ryiza rimeze neza, ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye. Amafu yo kunywamo igikoma, imiti igiye itandukanye amavuta yo kwisiga, umukiriya uje kugura ifu y'igikoma ayisanga hano, ukeneye umuti turawumuha n'ukeneye amavuta yo kwisiga turayamuha.

Iduka ryiza rimeze neza, ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye: Ricururizwamo amavuta yo kwisiga n'ayo kwisiga mu mutwe, isabune zo gukaraba n'izo kumesa zimeze neza.

Isoko ryiza, rimeze neza, ryubatswe neza, rifite ibisima byiza, buri mucuruzi aba afite igisima ke cyabugenewe acururizaho ibicuruzwa bye. Urujya n'uruza rw'abakiriya bari mu isoko, bari guhaha ibintu bigiye bitandukanye.

Isoko ryiza rimeze neza, ryubatswe neza, rimeze neza cyane, ricururizwamo imyenda y'abana, amashuka, ibiringiti n'ibindi bitandukanye, n'andi maduka ariho ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwamo.

Isoko ry'ibiribwa ricururizagamo abantu batandukanye. Bikaremwa n'urujya n'uruza rw'abantu batandukanye. Bivagamo ibicuruzwa ibitunguru, ibirayi n'ibijumba n'amateke.

Isoko ryiza rimeze neza risa neza ryubatswe neza mu buryo bwiza rirageretse kabiri, ni ryiza cyane ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye hari abacuruza hasi ibijyanye n'imboga n'imbuto, hejuru hacururizwa ubuconco ari ubw'imiceri n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Agasoko gacururizwamo n'abantu batandukanye, bagacururizamo ibintu bitandukanye nk'ibitunguru, imifuka, tungurusumu, imyanya n'insenda.

Amazu meza ameze neza, acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, umuryango ucururizwamo imbuto zigiye zitandukanye nk'amarunji, amatunda, ibinyomoro na wotameroni. Abaturage batuye muri uwo umudugudu iyo bakeneye imbuto bazibona bitabagoye.

Isoko ryiza rimeze neza. Isoko ryacu ricururizwamo imyenda ya caguwa yo kwambara ku bantu bose. Bayicururiza hasi kubera ko batarabona aho kubaka amazu yo kujya bayicururizamo. Baramutse babonye ubuvugizi, bakabubakira aho gucururiza, byarushaho kuba byiza.

Iduka ricururizwamo inkweto ni ryiza, rimeze neza, risa neza. Umuntu ushaka kurangura inkweto aza kurangurira muri iri duka. Ari ushaka kurangura, ari ushaka inkweto imwe, iyo aje barayimuha nta kibazo.

Isoko ryiza rimeze neza, ricururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye. Ricuruzwamo n'imyenda. Hari uruhande rucururizwamo abagore bacuruza imiteja n'ibitunguru n'ibindi byo kurya bitandukanye, n'uruhande rwo hirya rucururizwamo imyenda.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye. Ni ryiza cyane, rimeze neza, ririmo ibyo kurya byiza. Ukeneye imiteja araza akayisanga muri iri isoko, ukeneye ibitunguru na pwavuro, abisanga aha, ukeneye inyanya n'ibindi bigiye bitandukanye araza bakamupimira agatahana ibyo kurya bimeze neza.

Urujya n'uruza rw'abantu mu isoko ryiza, rimeze neza, risa neza, ricururizwamo inyanya n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, hari n'amaduka acururizwamo ibindi byo kurya bigiye bitandukanye, abakiriya iyo baje guhaha, abacuruzi baba bishimye kubera ko babonye abo bagurisha ibicuruzwa byabo.

Isoko rituwe ku muhanda rikundaga kugira abakiriya batandukanye kubera urujya n'uruza rw'imodoka n'ibindi binyabiziga bicaga impande yaryo.